Amufarumasi aba meza cyane. Agira akamaro kubera ko abamo imiti igiye itandukanye, kandi iyo abantu, umuntu yafashwe n'uburwayi atarabona uburyo bwo guhura n'umuganga cyangwa nta n'ubwishingizi yari yishyura, ajyayo akajya kureba n'imiti nuko ubuzima bugakomeza bukagenda neza.

Amafarumasi aba meza kandi aba ingenzi kuko habamo imiti abantu bakenera. Iyo umuntu arwaye cyangwa agafatwa n'uburwayi ari aho ngaho hafi yaho, atarabona uburyo ahita ajya kwa muganga, ahita ajyayo bakamuhereza imiti iramufasha, mu gihe ategereje kujya kwa muganga kwisuzumisha.

ibitaro biba byiza kandi ni ingenzi kubera ko bifasha abantu bose. Iyo umuntu arwaye, ajya kwivuza kandi agataha yumva ameze neza. Kuba yahuye na muganga akumva aratuje, akagenda, akajya kunywa imiti agakira, rero biba ingenzi cyane, Leta iba yarakoze kubakira abaturage ibitaro.

Ibi byatsi biba byiza ,abantu barabishaka cyane kubera ko bibafasha kuvamo imiti igiye itandukanye, ni yo mpamvu biba ingenzi ukabona abantu bose barabishaka, kandi ugize igitekerezo cyo kubigurisha ,wabona amafaranga kubera ukuntu bifasha, havamo imiti ivura abantu kandi bagakira.

Ibyatsi biba byiza, ibyatsi bivamo umuti, kandi ufasha bivurara imvune n'izindi ndwara zose ziba mu mubiri. Abantu barabikenera cyane, kandi biba ahantu hakeya. Iyo ugize amahirwe yo kubibona, uba ubonye imari, kandi ikomeye cyane. Kubera ko bigira akamaro kanini biravura pe! Iyo wavunitse ubishiraho.

Umwenya uba mwiza kubera ko ufasha ibintu bigiye bitandukanye， havamo umuti uvura abantu， nk'amagiripe， cyangwa inkorora，kandi ikindi hari n'igihe babitekamo icyayi， ukumva bimeze neza.

Imihati iba myiza, barayikunda, kandi ivamo imiti imihati bayizitirisha ingo zirumva ko zigira akamaro, ahantu iba iri iba ifite akamaro kanini.